Ibi ni ibicuruzwa biri kwamamarizwa ku ikoranabuhanga nkuko turi kubibona, cyane ko abantu benshi muri iki gihe barikoresha, aho baba bashobora kubonaho ibyo bakeneye bakabigura, kandi bakabigezwaho mu buryo bwihuse bworoshye.

Hano turahabona umucuruzi uri kwamamaza ibicuruzwa bye yifashishije ikoranabuhanga aho bifasha benshi kuba babona aho ibyo bakeneye bakaba babitumiza kandi bikabageraho bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo.

Ibi ni bicuruzwa biri kwamamarizwa ku ikoranabuhanga nk'uko bigaragara, aho abacuruzi benshi bahitamo gushyira ibyo bacuruza ku mbuga zitandukanye, cyane ko abenshi muri iki gihe ari ryo bakoresha bakaba babonaho ibyo bakeneye bakabigura kandi bakabigezwaho byoroshye.

Iyi myenda iri kwamamarizwa ku mbuga nkoranyambaga nk'uko bigaragara, aho abenshi bakoresha ikoranabuhanga bashobora kuyibonaho ndetse n'ibindi bakeneye bakaba babigura, kandi bakabigezwaho bitabaye ngombwa ko bigerera aho bicururizwa.

Iyi myenda tubona hano ni umucuruzi wayishyize ku ikoranabuhanga nk'uko bigaragara; akaba ari hamwe mu hamamarizwa ibikorwa bitandukanye cyane ko abantu benshi muri iki gihe barikoresha baba bashobora kubonaho ibyo bakeneye, bakaba babiguriraho kandi bakabigezwaho mu buryo bwihuse.

Hano turahabona imyenda akaba ari umucuruzi uri kwamamaza ibicuruzwa bye yifashishije ikoranabuhanga ku mbuga zitandukanye; aho benshi bakunze kurikoresha muri iki gihe ndetse bikaborohera kubonaho ibyo bakeneye; bakaba babitumiza kandi bikabageraho mu buryo bwihuse.

Iyi myenda ni iri kwamamarizwa ku mbuga nkoranyambaga nk'uko bigaragara, aho umucuruzi ayishyiraho cyane ko abenshi muri iki gihe bifashisha ikoranabuhanga, bakaba babona ibyo bakeneye mu buryo bworoshye bakabigura, kandi bakabigezwaho.

Iyi note ni iy'amafaranga ijana ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda aho yakoreshejwe mu myaka yatambutse ariko muri iki gihe ikaba itagireshwa aho yasimbuwe n'igiceri.

Aya mafaranga ni inote y'igihumbi ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho iriho bimwe mu bikiranga nk'inyamaswa z'ubwoko butandukanye ndetse n'inzu ndangamurage irimo amateka y'iki gihugu.

Iyi note y'amafaranga ijana ni iyakoreshwaga mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka yatambutse ariko muri iki gihe ikaba itagikoreshwa bitewe n'uko yasimbuwe n'igiceri.

Hano turahabona ibikoresho bitwarwamo amata kugira ngo ajyanwe aho akusanyirizwa, atunganywe neza kandi abikwe mu buryo adashobora kwangirika. Kugira ngo n'uyagura abe yizeye ko atamutera ikibazo giturutse ku mwanda cyangwa se no kuba yapfuye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi icururizwamo amata nk'uko bigaragara ndetse turabona n'icyuma akusanyirizwamo agatunganywa ku buryo n'uyaguze aba ashobora guhita ayahanywera cyane ko tuhabona intebe cyangwa se agahitamo kuyajyana mu rugo iwe.

Iki cyuma tubona hano, ni igikusanyirizwamo amata, kugira ngo atunganwe neza, akorerwe isuku, kandi abikwe mu buryo bwizewe, ku buryo n'uyagura aba adatekereza ko yamutera ikibazo icyo ari cyo cyose giturutse ku mwanda.

Hano turahabona icyapa kinini kiranga inzu y'ubucuruzi ndetse n'ibicururizwamo by'umwihariko ibyiganjemo amata nkuko tubibona, kikaba gifasha ukeneye kuba yayagura kumenya aho yerekeza cyangwa se no kuba yaharangira undi byoroshye.

Iyi n'inzu y'ubucuruzi nk'uko bigaragara harimo icyuma gikonjesherezwamo ibyo kunywa turabona n'umuguzi aho bifasha abantu baba bari mu kazi cyangwa k'urugendo babone aho bafatira icyo kurya cyoroheje kugira ngo bakomeze kugira imbaraga zo gukora.

Iyi ni nzu y'ubucuruzi nk'uko bigaragara hano turahabona uguze amata yo kunywa, ndetse n'amandazi, akaba aba yatunganyijwe neza kandi yakorewe isuku, ku buryo uyaguza aba ashobora guhita ayahanywera, cyangwa akayajyana mu rugo iwe, yizeye ko nta kibazo yamutera gitewe n'umwanda,

Iyi ni inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya byoroheje nk'amandazi nk'uko turi kubibona, hakaba hari n'icyuma gikusanyirizwamo amata kugira ngo atunganywe neza kandi abikwe mu buryo adashobora kwangirika n'uyagura abe yizeye ko atamutera ikibazo cy'uburwayi giturutse ku mwanda.

Iki cyuma kinini tubona hano ni igikusanyirizwamo amata kugira ngo atunganwe neza akorerwe isuku, kandi abikwe mu buryo adashobora kwangirika, n'uyagura aba yizeye ko atamutera indwara ziturutse ku mwanda.

Iki cyuma tubona hano ni igikusanyirizwamo amata kugira ngo akorerwe isuku kandi abikwe mu buryo bwizeye kugira ngo abe atashobora kwangirika n'uyagura abe yizeye ko atari bumutere ikibazo giturutse ku mwanda.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi nk'uko bigaragara hirya tukaba tuhabona icyuma gikusanyirizwamo amata kugira ngo atunganwe neza, akorerwe isuku kandi abikwe mu buryo bwizeye n'uyagura abe adashidikanya ko ashobora kumutera ikibazo cy'uburwayi giturutse ku mwanda.

Iki ni icyapa kiranga inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibyiganjemo amata nkuko turi kubibonaho ; kikaba gifasha ukeneye kuyagura kuba yahabona mu buryo bworoshye cyangwa se kuharangira undi.

Hano turahabona abantu batandukanye bafite ibikombe birimo amata, nk'uko bigaragara bakaba bicaye mu nzu acururizwamo, aho aba yatunganyijwe neza ku buryo umuntu ashobora kuyagura agahita ayahanywera cyangwa se akaba yayajyana mu rugo iwe.

Hano turahabona umucuruzi uri gusuka amata mu bikombe nk'uko bigaragara, akaba ari inzu acururizwamo cyane ko aba yatunganyijwe neza kandi yizewe, ku buryo uyaguze ashobora kuyahanywera cyangwa se akaba yayajyana mu rugo iwe.

Hano ni ahacururizwamo ibyiganjemo amata nk'uko tubibona inyuma, hari icyuma kinini akusanyirizwamo kugira ngo akorerwe isuku kandi abikwe mu buryo bwizewe akaba adashobora kwangirika.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bitandukanye byiganjemo amata, aho tubona icyuma akusanyirizwamo kugira ngo atunganywe neza kandi akorerwe isuku n'abayagura babe bizeye ko nta kibazo bashobora guhura nacyo.

Hano turahabona inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye by'umwihariko hakaba hari icyuma gikusanyirizwamo amata, kugira ngo atunganywe neza kandi abikwe mu buryo bwizewe ndetse n'uyaguze akaba ashobora guhita ayahanywera cyangwa akayajyana mu rugo iwe.

Iki cyapa kinini tubona hano ni ikiranga inzu y'ubucuruzi by'umwihariko icururizwamo ibijyanye n'amata, aho cyorohereza abakeneye kuyagura kuba babona aho bagurira mu buryo bworoshye ndetse no kuharangira undi bikoroha.

Hano turahabona icyapa kigaragaza ahacururizwa amata ndetse ibi bikaba ari ibyuma ashyirwamo kugira ngo akonjeshwe akomeze kumera neza ku buryo n'uyagura aba adashidikanya ko ashobora kumutera ikibazo bitewe n'uko yapfuye cyangwa se ibindi.

Aya ni amandazi akaba ari ibyokurya byoroheje bikorwa mu ifarini, amata ndetse n'ibindi, aho benshi bakunze kwifashisha ku mafunguro yabo ya mu gitondo, cyangwa se mu gihe hari abari mu kazi bakayafata kugira ngo bakomeze kugira imbaraga zo gukora.

Ibi byuma binini turi kubona hano ni bimwe mu bikusanyirizwamo amata kugira ngo atunganwe neza akorerwe isuku kandi abikwe mu buryo adashobora kwangirika ndetse n'uyagura abe yizeye ko atamutera ikibazo giturutse ku mwanda.

Iki cyuma kinini tubona hano ni igikusanyirizwamo amata kugira ngo akorerwe isuku atunganywe neza kandi abikwe mu buryo bwizewe, ku buryo n'uyagura abe adafite impungenge z'uko yamutera ikibazo cy'indwara iturutse ku mwanda cyangwa ibindi.

Hano turahabona imigati akaba ari ibyo kurya byoroheje bikorwa mu ifarini, amata ndetse n'ibindi. Bikaba byifashishwa na benshi ku mafunguro ya mu gitondo cyangwa se mu gihe bari mu kazi kugira ngo bakomeze kugira imbaraga zo gukora.

Iyi nzu tubona ni iy'ubucuruzi icururizwamo ibyiganjemo ibyo kunywa bitandukanye nk'uko tubibona hari umuguzi waguze icyayi akaba ari ahantu hafasha nk'abari ku rugendo cyangwa se abari mu kazi kuba babona icyo bafata kugira ngo bakomeze kugira imbaraga.

Iyi nzu tubona hano ni iy'ubucuruzi nk'uko bigaragara ibicuruzwamo ibyiganjemo amata aho tubona icyuma akusanyirizwamo kugira ngo akorerwe isuku atunganywe neza kandi abikwe mu buryo bwizewe.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi nk'uko tubibona harimo icyuma gikusanyirizwamo amata kugira ngo atunganwe neza, akorerwe isuku kandi abikwe mu buryo adashobora kwangirika n'uyagura abe yizeye ko atamutera ikibazo giturutse ku mwanda.

Hano turahabona umucuruzi uri gusukira amata umuguzi, ayakura mu cyuma akusanyirizwamo kugira ngo atunganwe neza kandi abikwe mu buryo bwizeye aba atatera ikibazo abayagura, bitewe n'umwanda cyangwa se no kuba yapfuye.

Uyu muryango ni uw'ubucuruzi by'umwihariko ukaba ucururizwamo ibyiganjemo amata nk'uko tubibona ku cyapa, kikaba gifasha ukeneye kuyagura kuba yabona aho agurira bimworoheye cyangwa se no kuharangira undi.

Hano turahabona umuntu uri gufata ibyo kurya byoroheje, birimo amata cyangwa se icyayi ndetse na keke, akaba ari mu nzu bicururizwamo, aho bifasha nk'abari mu kazi cyangwa ku rugendo badafite uko bateka, kubona icyoroheje, kiri butume bakomeza kugira imbaraga.

Turi kubona abari gukura amata mu byo atwarwamo kugira ngo ajyanwe aho akusanyirizwa agakorerwa isuku kandi akabikwa mu buryo bwizewe ku buryo adashobora kwangirika n'uyagura akaba atamutera ikibazo icyo ari cyo cyose giturutse ku mwanda.

Hano turahabona ibiryo, amata mu gikombe akaba ari hamwe mu ho bicururizwa nk'uko bigaragara harimo n'abaje kubigura bikaba ari uburyo bworohereza benshi by'umwihariko abari mu kazi gatandukanye kuba babona icyo bafata kugira ngo bakomeze kugira imbaraga zo kugakomeza.

Ubu ni uburyo sosiyete y'itumanaho ya AIRTEL, iri kwamamaza ibikorwa byayo by'umwihariko uko umuntu ashobora kuba yagura umuriro yifashishije amafaranga afite kuri telefoni ye.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kumenyekanisha ndetse no kwishyura umusoro.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda ikaba ihabwa umucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo itandukanye umaze kwishyura umusoro.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura neza umusoro we ndetse no kuwumenyekanisha.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura umusoro we, ndetse n'amafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo guteza imbere abagituye.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora imirimo itandukanye ,umaze kumenyekanisha cyangwa kwishyura umusoro we neza.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura neza umusoro.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda ikabi ihabwa umucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo itandukanye amaze kwishyura umusoro we.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, igahabwa umucuruzi umaze kwishyura umusoro we kandi ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo kugiteza imbere.

Iyi nyemezabwishyu ni iyitangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kumenyekanisha ndetse no kwishyura umusoro we.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo itandukanye umaze kwishyura umusoro.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ikorera mu gihugu cy'u Rwanda aho ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora indi mirimo itandukanye umaze kwishyura neza umusoro.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'uRwanda aho ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora imirimo itandukanye umaze kwishyura neza umusoro we.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura neza umusoro we.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba ihabwa umucuruzi cyangwa undi wese ukora imirimo itandukanye umaze kwishyura umusoro we kandi ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo guteza imbere abagituye.

Iyi ni inyemezabwishyu utangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura kandi ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo guteza igihugu imbere, kubaka amashuri, amavuriro, imihanda n'ibindi.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura umusoro we ndetse ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo guteza igihugu imbere.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikabihabwa umucuruzi umaze kumenyekanisha cyangwa se kwishyura umusoro we.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura neza umusoro we kandi ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda kandi igahabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora imirimo itandukanye, umaze kwishyura neza imisoro ye.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora indi mirimo itandukanye umaze kwishyura umusoro we.

Iyi ni inzu ikorerwamo ibikorwa byo kuvunja amafaranga, aho bifasha nk'abanyamahanga binjiye mu gihugu kuba babona akoreshwa aho bagiye mu buryo bworoshye.

Iki cyapa ni Ikigaragaza inzu ikorerwamo imirimo yo kuvunja amafaranga, aho byorohereza abanyamahanga baje mu kindi gihugu kubona akoreshwa aho bagiye.

Iyi nzu tubona hano ni iyivunjishirizwamo amafaranga aho bafasha abanyamahanga nk'uko turi no kubabonaho hano kuba bahindurirwa ayo bari basanganywe bagahabwa akoreshwa mu gihugu binjiyemo.

Iki ni icyapa kiranga inzu ikorerwamo imirimo yo kuvunja amafaranga, aho byorohereza abanyamahanga baje mu gihugu kuba babona akoreshwa aho binjiye mu buryo buboroheye.

Hano turahabona intebe n'ameza akaba ari ibikoresho byo mu nzu bikozwe mu biti bikaba bigaragaza ko iyo amashyamba afashwe neza ashobora kubyazwa umusaruro ukorwamo ibintu byinshi kandi bigatunga n'ababikora.

Hano turahabona intebe ndetse n'ameza bikozwe mu buryo bwiza kandi bubereye ijisho, aho bigaragaza ko iyo ibiti bifashwe neza bishobora kuvamo ibintu byiza byinshi bitandukanye ndetse bigatunga n'abanyabukorikori babikora.

Utu ni utubati tubikwamo imyenda dukozwe mu mbaho zitandukanye, bikaba ari ibigaragaza ko ibiti bishobora kubyazwamo umusaruro, cyane cyane iyo bifashwe neza kandi bigatunga n'ababikora.

Hano turahabona imbaho nyinshi aho zikusanyirizwa kugira ngo zitunganywe zibe zakorwamo ibintu bitandukanye nk'ibikoresho byo mu nzu cyangwa se mu mirimo y'ubwubatsi.

Izi ntebe ndetse n'aya meza nk'uko bigaragara bikozwe mu biti, bikaba ari ibigaragaza ko iyo bifashwe neza bishobora kubyazwa umusaruro havamo ibikoresho bitandukanye byo mu nzu ndetse bigatunga n'abanyabukorikori babikora.

Hano turahabona intebe ndetse n'ameza akaba ari ibikoresho bikozwe mu mbaho bigaragaza ko iyo amashyamba afashwe neza ashobora kuvanwamo ibintu byinshi bitandukanye ndetse bigafasha n'ababikora kubona uko batunga imiryango yabo.

Hano turahabona ameza ndetse n'intebe bikozwe mu buryo bubereye ijisho kandi mu biti, bikaba bigaragaza ko iyo amashyamba afashwe neza ashobora kubyazwamo umusaruro w'ibintu bitandukanye, ndetse bigatunga n'abanyabukorikori babikora.

Hano turahabona ameza akoze ku buryo bubereye ijisho kandi mu biti bikaba bigaragaza ko akamaro kabyo atari ukuduha umwuka duhumeka gusa, ko iyo byitaweho bigafatwa neza bishobora kuvamo n'ibindi bintu byinshi kandi bigatunga n'ababikora.

Hano turahabona intebe ndetse n'ameza, akaba ari ibikoresho byo mu nzu, bikozwe mu mbaho, aho bigaragaza ko iyo ibiti bifashwe neza ntibyangizwe, bishobora kuvamo ibintu byinshi kandi bigatunga n'abanyabugeni babikora.

Aya meza ndetse n'izi ntebe turi kubona hano biragaragara ko bikozwe mu biti bikaba byerekana ko iyo bifashwe neza bishobora kubyazwamo umusaruro, hakavamo ibikoresho byo mu nzu bitandukanye ndetse bigatunga n'abanyabugeni babikora.

Hano ni ahacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye nkuko bigaragara. Hari imyanya myinshi yo kwicaramo, aho abantu bakunze kuhajya kugira ngo baruhuke nyuma y'akazi cyangwa se kuganira n'inshuti zabo, gusangira n'imiryango yabo n'ibindi.

Iyi ni imwe mu nzu zicururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa nk'uko bigaragara akaba ari hamwe mu ho abantu bakunda kujya mu gihe bakeneye kuruhuka nyuma y'akazi cyangwa se bifuza gusangira n'inshuti zabo, imiryango yabo kandi bakaba bashobora no kuhidagadurira.

Aha ni ahacururizwa ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya bitandukanye nk'uko tubibona hari intebe aho abantu bahagana bashobora kwicara mu myanya bitewe n'aho bishimiye bakaba bahaganirira bagasangira n'inshuti n'abavandimwe n'ibindi.

Iri ni isoko nk'uko bigaragara ririmo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, byiganjemo imboga, akaba ari zimwe mu byo dukenera kugira ngo dukomeze kumererwa neza, cyane kuko haba harimo izirinda indwara ndetse n'ibindi.

Hano turahabona agasoko gaciriritse ariko gacururizwamo ibyo kurya bitandukanye nk'inyanya, turi kuhabona karoti, amashu ndetse n'izindi mboga, aho byorohereza abaturage by'umwihariko abafite ubushobozi buke kuba babona aho bagurira ibyo bakeneye kandi bitabahenze.

Hano turahabona ubucuruzi butandukanye burimo imitako, ibikapu imikufi ndetse n'ibindi byose biboshywe mu bikoresho tubona cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse bikaba bikozwe hashingiwe ku muco wacyo.

Hano turahabona isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye byiganjemo imboga nk'uko bigaragara, akaba ari bimwe mu byo umubiri w'umuntu ukenera kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Hano turahabona utwara abantu n'ibintu ukoresheje ikinyabiziga cya moto kandi akaba ari kimwe mu bikoresha umuriro w'amashanyarazi, ibyo Leta iba ishaka mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije hirindwa ibyotsi byangiza ikirere.

Hano turahabona ubucuruzi bw'amagi, aho abikwa mu buryo aba adashobora kwangirika bitewe n'uko ari mabisi kandi akaba yamara n'igihe, nta kibazo ahuye na cyo.

Hano turahabona ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye by'umwihariko imboga nk'uko bigaragaraho, akaba ari zimwe mu byo dukeneye kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza.

Uyu ni umwe mu batwara imizigo aho atwaza abacuruzi bavuye kurangura nkuko tubibona cyangwa se abamaze kugira ibyo bagura akabafasha kubigeza aho batuye.

Hano turahabona isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ibyo tubona ni imbuto aho ari zimwe mu byo umubiri wacu ukenera kugira ngo ukomeze kumererwa neza cyane ko bimwe biba birinda indwara, byongera amaraso ndetse n'ibindi.

Hano turahabona ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye nk'uko bigaragaraho harimo ibyiganjemo imboga, bikaba ari bimwe mu byo dukenera kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza cyane ko haba harimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibindi.

Hano turahabona isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, by'umwihariko ibyo tubonaho cyane ni imbuto, akaba ari zimwe mu byo dukenera kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza, cyane ko harimo ibirinda indwara, ibyongera amaraso nk'ibinyomoro ndetse n'ibindi.

Iri ni isoko ricuruzwamo ibicuruzwa bitandukanye nk'uko bigaragara, by'umwihariko ibyo tubona hafi ni imbuto zirimo imineke, ibinyomoro, inanasi n'ibindi, akaba ari bimwe mu byo umuntu akenera kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, cyane ko bimwe muri byo bitera imbaraga, bikarinda indwara, bikongera amaraso ndetse n'ibindi.

Hano turahabona isoko ricuruzwamo ibyo kurya bitandukanye, aho turi kubona inyanya, ibishyimbo n'imboga, bikaba ari bimwe mu byo umubiri wacu ukenera kugira ngo ukomeze kumererwa neza, tugire imbaraga.

Hano turahabona isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye byiganjemo imboga tubona hariho karoti ndetse n'ibindi bikaba ari bimwe dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo dukomeze kumererwa neza.

Hano turahabona isoko ririmo ibicuruzwa by'ubwoko bwinshi, byiganjemo ibirimo imboga, nkuko bigaragara hariho karoti, inyanya, intoryi ndetse n'ibindi, akaba ari bimwe mu byo umubiri wacu ukenera kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga.

Muri iri soko turahabona ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye byiganjemo imbuto, bikaba ari bimwe mu byo dukenera kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza cyane ko hari ibirinda indwara, ibyongera amaraso, ibitera imbaraga n'ibindi.

Hano turahabona ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye by'umwihariko byiganjemo imbuto, aho ari zimwe umubiri w'umuntu uba ukeneye kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza cyane ko haba harimo iizirinda indwara zitera imbaraga n'ibindi.

Hano turahabona ubucuruzi bw'imitako itandukanye aho ikorwa n'abanyabugeni kandi bakayikora bashingiye ku muco w'Igihugu cy'u Rwanda cyane ko turi kubona ibyiganjemo imigongo.

Hano turahabona imitako myinshi ibikapu, imikufi ndetse n'ibindi abanyabugeni bakoze kandi nk'uko bigaragara bikaba bikozwe bishingiye ku muco w'igihugu cy'u Rwanda, cyane ko turi kubonamo ibyiganjemo imigongo.

Hano turahabona umutaka wa sosiyete y'itumanaho ya MTN ndetse n'umukozi uyikoreramo aho ari gufasha umuturage mu bikorwa bitandukanye nko kubitsa amafaranga cyangwa se kuyabikuza kugura minnete yo guhamagaza n'ibindi.

Aba bakozi tubona hano bambaye imyenda y'umuhondo ni abakorana na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho baba bari kwamamariza ibikorwa byayo ahantu hatandukanye, kugira ngo abaturage basobanukirwe uko ikora ndetse babe banayigana ari benshi.

Aka ni akazu gakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho yegereza ibyo ikora abaturage kugira ngo babe bashobora kubitsa amafaranga kuyabikuza, kuyohereza ndetse n'ibindi mu buryo buboroheye.

Hano turi kuhabona aho sosiyete y'itumanaho ya MTN iri kwamamariza ibikorwa byayo ndetse turahabona n'abakozi bayikorera, kugira ngo isobanurire abaturage ibyo batayisobanukiweho kandi babe bayigana ari benshi.

Aka kazu ni agakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya Emutiyene, ndetse hakaba harimo n'umukozi uri kugakoreramo, aho ari gufasha abaturage kubona bimwe mu byo bakeneye, nko kubitsa amafaranga kuyabikuza kugura amayinite ndetse n'ibindi.

Hano turahabona ahari gukorerwa ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN aho iba yegereje ibyo ikora abaturage kugira ngo barusheho kubisobanukirwa bafashwe mu buryo butandukanye kandi bayigana ari benshi.

Hano turahabona, aho sosiyete y'itumanaho ya MTN iri kwamamariza ibikorwa byayo, nk'uko bigaragara ku byapa, ndetse ikabyegereza abaturage kugira barusheho gusobanukirwa ibyo ikora, ndetse bayigane ari benshi.

Iki ni icyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho gihabwa umucuruzi cyane ko tubonaho imibare y'ibanga akoresha, bikaba bifasha umaze kugura cyangwa gufashwa mu bundi buryo kuba yakwishyura akoresheje amafaranga afite kuri terefone ye.

Iki cyapa ni igitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN ndetse hakaba hariho n'imibare y'ibanga y'umucuruzi, aho umaze kugura cyangwa se gufashwa mu bundi buryo, ashobora kuyishyuriraho akoresheje amafaranga afite kuri telefone ye.

Aka kazu tubona hano ni kamwe mu gakorerwamo ibikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN ndetse hariho n'abakozi bayikorera nk'uko tubibona, aho yegereza ibikorwa byayo abaturage kugira ngo babe bakwibikiriza amafaranga, bakayabikuza kandi bakagura amayinite yo guhamagaza mu buryo bworoshye.

Aka kazu ni gakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN aho yegereza ibyo ikora abaturage, kugira ngo babe babitsa amafaranga, bayabikuza bagura amayinite yo guhamagaza n'ibindi, mu buryo bworoshye.

Hano turahabona umuntu ugiye kwishyura akoresheje amafaranga afite kuri telefone ye, bukaba ari uburyo bufasha benshi mu kurinda umutekano w'amafaranga yabo kuba atakwibwa bitewe no kuyatwara mu ntoki.

Aka kazu turi kubona hano ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho iba yegereje ibyo ikora abaturage, kugira ngo biborohereze kuba babitsa amafaranga, kuyabikuza, kugura amayinite yo guhamagaza ndetse n'ibindi mu buryo buboroheye.

Aka kazu kari hano ni kamwe mu dukorerwamo imirimo itandukanye ya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho yegereza ibyo ikora abaturage kugira ngo babe bakwigurira amayinite, bakabitsa amafaranga bakayabikuza mu buryo buboroheye.

Hano turahabona aho sosiyete y'itumanaho ya MTN iri kwamamariza ibikorwa byayo nk'uko tubibona ku myenda ihari ndetse n'ibyapa. Aho iba yegereje abaturage ibyo ikora kugira ngo barusheho kubisobanukirwa ndetse babe bayigana ari benshi.

Hano turahabona umuntu ugiye kwishyura amayinite akoresheje amafaranga afite kuri telefone ye. Akaba ari uburyo sosiyete y'itumanaho ya emutiyene yashyiriweho abaturage iborohereza no kuba babona ibyo bakeneye n'ubwo baba badafite amafaranga mu ntoki.

Aka kazu tubona hano ni agakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho yegereza abaturage ibyo ikora, kugira ngo babe bashobora kubitsa amafaranga, kuyabikuza ndetse n'ibindi mu buryo buboroheye.

Aka kazu ni gakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho yegereza ibyo ikora abaturage kugira ngo biborohereze kuba babitse amafaranga, kuyabikuza, kugura amayinite yo guhamagaza, ndetse n'ibindi mu buryo bworoshye.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya Airtel. Aho bwohereza abaturage kuba bakwigurira amayinite bakabitsa amafaranga yabo mu buryo buboroheye kandi bubegereye.

Aka kazu ni agakorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya emutiye, aho yegereza ibyo ikorera abaturage kugira ngo biborohereze kuba babitse amafaranga, kuyabikuza, kugura amayinite yo guhamagaza ndetse n'ibindi.

Iki cyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni ndetse turabonaho na kode umucuruzi akoresha kugira umaze kugura cyangwa gufashwa mu bundi buryo abe yakwishyuraho akoresheje amafaranga afite kuri telefoni.

Iki cyapa tubona hano, ni igitangwa na sosiyete y'itumanaho ye MTN, kigahabwa umucuruzi ndetse hakaba hariho kode yishyurirwaho, nk'uko tubibona hari ugiye kwishyura bitewe n'ubufasha yahawe, bukaba ari uburyo bworohereza benshi kubera ko bakoresha amafaranga bafite kuri telefoni zabo.

Hano turahabona umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho ya MTN ndetse aha akaba ariho ikorera bimwe mu bikorwa byayo aho ari gufasha umuturage.

Hano turabona aho sosiyete y'itumanaho ya MTN iri gukorera ibikorwa byayo, aho iba yegereje abaturage ibyo ikora kugira ngo barusheho kubisobanukirwa neza, babafashe mu bundi buryo ndetse bayigane ari benshi.

Iki ni icyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho gihabwa umucuruzi ndetse hakaba hariho n'umubare w'ibanga abamaze kugira ibyo bagura cyangwa se gufashwa mu bundi buryo bishyuriraho bakoresheje amafaranga bafite kuri telefone zabo.

Hano turahabona icyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho gihabwa umucuruzi kikaba kiriho n'umubare w'ibanga yishyurirwaho bikorohereza abaje kugura kuba bakwifashisha amafaranga bafite kuri telefoni zabo, ubwo baba batayagendanye mu ntoki.

Aka kazu tubona hano, ni agakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, ndetse nk'uko bigaragara hariho abaturage bari gufashwa, aho baba bashobora kubitsa amafaranga, bakayabikuza, ndetse n'ibindi, mu buryo buboroheye kandi bubegereye.

Aka kazu ni agakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, ndetse nk'uko tubibona hariho abaturage bari gufashwa mu buryo butandukanye, nko kuba babitse amafaranga, kuyabikuza, kugura amayinite yo guhamagaza n'ibindi.

Hano turahabona abakozi bakorana na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho iba yegereje ibikorwa byayo abaturage kugira ngo ibafashe ku byo badasobanukiwe kandi babe banayigana ari benshi.

Aka ni kazu gakorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiye y'itumanaho ya MTN, aho iba yegereje ibyo ikora abaturage kugira ngo biborohereze kuba babitse amafaranga, kuyabikuza, kugura amarinite yo guhamagaza ndetse n'ibindi.

Hano turahabona ibyapa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho iba yegereje abaturage ibikorwa byayo kugira ngo basobanukirwe uko ikora ndetse babe bayigana ari benshi.

Aka kazu tubona hano ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene. Aho ibyegereza abaturage kugira ngo biborohere nko kuba babitse amafaranga, kuyabikuza, kugura amanite yo guhamagara n'ibindi.

Aka kazu ni agakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho iba yegereje ibyo ikora abaturage kugira ngo biborohere kuba bagura amayinete yo guhamagaza, kohereza abandi amafaranga, kuyabikuza ndetse n'ibindi.

Hano tubona umutaka aba barimo ni abakozi bakorana na sosiyete y'itumanaho ya MTN aho bakorera ndetse bagafasha abaturage kubona bimwe mu bikorwa byayo, nko kubikira amafaranga, kuyabikuza, kugura amayinite yo guhamagaza n'ibindi.

Hano ni ahakorerwa bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN nk'uko biri kugaragara ku byapa, ikaba ishyira ibyo ikora hirya no hino, kugira ngo ifashe abaturage kandi barusheho kuyigana.

Hano turahabona umutakaka wa sosete y'itumanaho ya MTN, ndetse n'abaturage bahahagaze bashobora kuba barigufashwa mu buryo cyangwa se gusobanurirwa ibyo badasobanukiwe. Aho yegereza ibyo ikora benshi kugira ngo babe bayigana.

Iki ni icyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aha hakaba hariho n'umubare w'ibanga umucuruzi akoresha, aho bifasha uguze cyangwa ufashijwe mu bundi buryo kuba yakwishyura akoresheje amafaranga afite kuri terefone ye.

Iki ni icyapa cyamamaza urubuga ushobora kugura aho ibyo ukeneye wifashishije ikoranabuhanga nk'uko turi kubibonaho, kandi ibyo waguze bakaba babikugezaho aho utuye.

Hano turahabona umucuruzi ugemuriwe ibiribwa wabitumije yifashishije ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye mu gihe badafite umwanya cyangwa se bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo.

Hano turahabona umucuruzi cyangwa se umukozi ugemuriye ibyo kurya uwabitumije yifashishije ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye bitandukanye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyangwa mu kazi kandi bikabagezwaho byihuse.

Hano turahabona umukozi cyangwa se umucuruzi ugemuriye ibiribwa uwabitumije akoresheje ikoranabuhanga nk'uko bigaragara, akaba ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye, nko mu gihe baba badafite umwanya wo kwigerera aho bicururizwa, kandi bakabigezwaho byihuse.

Hano turahabona isoko ryamamariza ibicuruzwa byayo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga akaba ari na ho rikorera, aho bifasha abarikoresha kuba babona ibyo bakeneye bakabigura ndetse bakabigezwaho mu buryo bworoshye.

Hano turahabona imbuga zitandukanye zikorerwaho imirimo y'ubucuruzi, aho bifasha abakoresha ikoranabuhanga kuba babona ibyo bakeneye bakabigura kandi bakabigezwaho bitabaye ngombwa ko bigerera aho bicururizwa.

Uyu ni umucuruzi ugemuriye ibicuruzwa babitumije bifashishije ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye, bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyangwa mu kazi, mu gihe badafite umwanya kandi bikabageraho byihuse.

Hano turahabona umukozi cyangwa se umucuruzi ugemuriye uwatumije ibyo kurya akoresheje ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye, bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyangwa se mu gihe bari mu kazi, kandi bikabageraho byihuse.

Hano turahabona umucuruzi ugemurira ibyoku kurya babitumije bakoresheje ikoranabuhanga yifashishije ikinyabiziga cya moto ndetse akabasanga mu ngo zabo, akaba ari uburyo bworohereza benshi bitewe no kuba badafite umwanya cyangwa se bari mu bindi kuba babona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo.

Uru ni urubuga rucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye nk'uko turi kubibonaho hano, aho umuntu ashobora kubigura yifashishije ikoranabuhanga kandi bakaba babimugezaho aho ari byihuse.

Uyu ni umucuruzi cyangwa se umukozi ugemura ibyokurya ababitumije bifashishije ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava aho bari kandi bikabageraho byihuse.

Izi ni imbuga zitandukanye zikoresha ikoranabuhanga zigakorerwaho imirimo y'ubucuruzi by'umwihariko bwo mu mahanga, aho umuntu ashobora kujyaho akaba yabona icyo akeneye akakigura kandi akakigezwaho byoroshye.

Uru ni urubuga rukoreshwa mu gucuruza ibintu bitandukanye, aho ukoresha ikoranabuhanga ashobora kurwifashisha akagura ibyo akeneye kandi akaba yanabigezwaho mu buryo bwihuse.

Uyu ni umucuruzi ugemuriye ibiryo uwabitumije akoresheje ikoranabuhanga ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bavaho bari, baba bari mu kazi cyangwa mu bindi kandi bakabigezwaho byihuse.

Hano turahabona telefone irimo ikarita y'igihugu, aho ari uburyo bwifashishwa n'abatwara ibinyabiziga ndetse n'abandi kugira ngo babe bamenya neza agace bagiyemo, mu gihe baba batahazi.

Iri ni isoko ricururizwaho ibicuruzwa bitandukanye hifashishijwe ikoranabuhanga, aho rifasha abarikoresha kuba baguriraho ibyo bakeneye kandi bakabigezwaho mu buryo bwihuse.

Hano turahabona abatwara abantu n'ibintu bakoresheje ikinyabiziga cya moto nk'uko bigaragara hariho n'abo bahetse, akaba ari uburyo benshi bakunda bitewe n'uko buborohereza kugera aho bajya byihuse kandi bidahenze.

Ubu ni ubucuruzi bukorerwa ku ikoranabuhanga aho abenshi barikoresha muri iki gihe bashobora kubona ibyo bakeneye bakaba babigura kandi bakabigezwaho bitabaye ngombwa ko bigerera aho bicururizwa.

Hano turahabona isoko ricuruzwamo ibiribwa bitandukanye, byiganjemo imboga z'ubwoko bwinshi, aho ari bimwe mu byo dukenera kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza, cyane ko hari ibirinda indwara, ibitera imbaraga, n'ibindi.

Hano turahabona isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye by'umwihariko imboga, uko tubireba hariho inyanya, karoti intoryi ndetse n'ibindi, bikaba ari bimwe ubuzima bw'umuntu bukenera kugira ngo burusheho kugenda neza cyane ko haba hakubiyemo ibirinda indwara.

Iyi ni inzu icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye, uko tubibona hari imyanya yo kwicarwamo, aho benshi bakunda kuhajya mu gihe bakeneye kuruhuka, gusangira n'inshuti zabo n'imiryango yabo ndetse bakaba banahidagadurira.

Hano turahabona icyapa kiranga ishami rishinzwe gucunga ubwisungane mu kwivuza, mituweri, aho hari uburyo leta yashyiriweho abaturage, kugira ngo bajye bashobora kubona ubuvuzi bakeneye mu buryo buboroheye.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, leta ikaba yarorohereje abaturage kubona ubuvuzi bakeneye batarembeye mu ngo zabo, bitewe n'uko baba babuze amafaranga yo kwishyura ijana ku ijana.

Aya makarita ni ay'ubwisungane mu kwivuza akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho afasha abaturage kuba babona ubuvuzi bakeneye batarembeye mu rugo, bitewe n'ubushobozi buke bwo kubura uko biyishyurira ijana ku ijana.

Hano turahabona umuturage uri kumwe n'abaganga ndetse akaba afite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, aho leta yashyiriyeho uburyo bworohereza benshi kubona ubuvuzi bakeneye by'umwihariko abafite ubushobozi buke bakaba batarembera mu ngo zabo.

Iyi karita ni iy'ubwisungane mu kwivuza ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda aho uyifite aba ashobora kubona ubuvuzi akeneye atarembeye mu rugo bitewe no kuba yabuze amafaranga yo kwiyishyurira ijana ku ijana.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho leta yorohereje abaturage by'umwihariko abafite ubushobozi buke kuba batarembera mu rugo mu gihe barwaye, bitewe no kubura uko biyishyurira ijana ku ijana.

Iyi karita tubona aha ni iy'ubwisungane mu kwivuza ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, leta ikaba yarorohereje abaturage by'umwihariko abafite ubushobozi buke kuba batarembera mu rugo bitewe n'uko badashobora kwiyishyurira ijana ku ijana, mu gihe uyifite aba ashobora guhabwa ubuvuzi akeneye.

Aya makarita tubona hano ni ay'ubwisungane mu kwivuza, akoreshwa mu Gihugu cy'u Rwanda, aho Leta yorohereje abagituye kuba batarembera mu rugo, mu gihe barwaye bitewe n'uko badafite ubushobozi bwo kwiyishyurira ijana ku ijana.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho leta yashyiriweho abaturage kugira ngo ibafashe kutarembera mu ngo zabo mu gihe barwaye kandi badafite ubushobozi bwo kwishyurira ijana ku ijana.

Aba baturage tubona aha turababonana amakarita, akaba ari ay'ubwisungane mu kwivuza akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho leta yorohereje abagituye kuba batarembera mu rugo mu gihe barwaye, by'umwihariko nk'ababa bafite ubushobozi buke, batashobora kwiyishyurira ijana ku ijana.

Aya ni amakarita y'ubwisungane mu kwivuza, akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda. Aho leta yashyiriyeho abaturage uburyo buborohereza kubona ubuvuzi bakeneye, no mu gihe baba badashoboye kwiyishyurira ijana ku ijana, ntihabe hari uwarembera mu rugo.

Aba baturage tubona hano, aya makarita y'ubururu bafite, ni ay'ubwisungane mu kwivuza akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, ari uburyo leta yashyiririyeho abagituye kubona ubuvuzi bakeneye batarembeye mu ngo zabo, bitewe no kubura ubushobozi bwo kuba bakwiyishyurira ijana ku ijana.

Aba baturage tubona hano aya makarita bafite ni ay'ubwisungane mu kwivuza akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda aha ari uburyo leta yabashyiriyeho bworohereza by'umwihariko abafite ubushobozi buke kuba batarembera mu ngo zabo mu gihe baba badafite amafaranga yo kwishyurira ijana ku ijana.

Hano turahabona isoko rigezweho aho ricururizwamo ibintu bitandukanye, ndetse bikaba bipanzwe ku buryo ukeneye kubigura aba ashobora kubona aho ibyo akeneye biherereye mu buryo bumworoheye.

Iri ni isoko ricuruzwa ku buryo bugezweho aho riba ririmo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, kandi biteretse neza ku buryo uje kugura aba ashobora guhita abona icyo akeneye byoroshye kandi bidashobora kwangirika.

Iri ni isoko ricuruza ku buryo bugezweho nk'uko bigaragara, ibicuruzwa bikaba bibitse neza ku buryo bidashobora kwangirika, kandi n'ukeneye kubigura agahita abona icyo akeneye, mu buryo bwihuse.

Iri ni isoko ricuruzwa ku buryo bugezweho nk'uko bigaragara ibicuruzwa bikaba bibitse mu buryo bidashobora kwangirika kandi n'ubikeneye akaba ashobora kubona icyo ashaka bimworoheye.

Hano turahabona isoko rigezweho ricuruza ku buryo bwiza cyane cyane ko ibicuruzwa biba bitondetse neza ndetse n'ubikeneye bikamworohera kubona ibyo ashaka, kandi bikaba bidashobora kwangirika bitewe n'akavuyo.